Imbuto z'ibigori zifashishwaga mu buhinzi bugezweho bwa kijambere butanga umusaruro mwinshi ku bahinzi babyo.

Uburyo bwa kijyambere, bwo gutegura ubutaka butunganyirizwamo imbuto, mbere y'uko zijya mu bahinzi zivuye mu bagoronome babihuguriwe.

Ibimera byifashishwaga n'abashakashatsi bakuramo imiti n'inkingo bifashisha bavura abantu n'inyamaswa...

Ingemwe zirimo gutegurwa n'abashakashatsi babyigiye, kugira ngo zizifashishwe n'abahinzi mu gutanga umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi.

Ahakorerwaga ubworozi bw'amafi ku buryo bwa kijambere ubona ko ari ibizenga biteguranwe ubuhanga bugezweho.

Ibyokurya byo mu bwoko bw'amafi, abantu benshi bifashisha barimo kuzahura abazahajwe n'imirire mibi, no kurwanya igwingira ry'abana.

Uburobyi nka bumwe mu buryo bwifashishwa mu gutanga akazi, no kugaburira abantu benshi no guteza imbere imiryango myinshi ibukora.

Umusaruro ushimishije w'isambaza nka bumwe mu buryo bwifashishwaga mu kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bantu.

Ahantu nyaburanga hagaragaza ubwiza buhebuje, abantu cyangwa ba mukerarugendo batandukanye bashobora gusura, bakaryoherwa na ho.

Uburobyi nka bumwe mu buryo abarobyi n'abacuruzi bifashisha mu guteza imbere imiryango yabo bagurisha umusaruro ibivuyemo, bigafasha kurwanya imirire mibi.

Umusaruro mwinshi w'indagara uri mu moko atandukanye, nk'uburyo bwifashishwa n'abahinzi n'aborozi mu kugaburira imiryango yabo, no guteza imbere iyo miryango.

Ibyo kurya biteguranwe ubuhanga isuku, ku buryo bigaragara ko biryoshye, kandi bifite icanga ku muntu uri bubifungure.

Imisave n'imisipuri nk'ibiti gakondo byifashishwaga n'abahinzi mu gukuramo umusaruro w'imbaho wifashishwaga mu gu gukoramo ibikoresho bitandukanye.

Ubuhinzi bw'amatunda yo mu bwoko bwa malikuja, abahinzi bifashishaga umusaruro wayo uvuyemo bakawugurisha ku isoko.

Ibihingwa byifashishwaga mu iterambere ry'abahinzi babihinga, binyuriye mu koherezwa hanze, bikinjiza amafaranga ku bahinzi babihinga.

Ubuhinzi bw'urutoki, nka bumwe mu buryo bwifashishwa n'abahinzi, mu guteza imbere imiryango ya bo, no kubona ibihagije byo gutunga imiryango ya bo.

Ubuhinzi bw'ibirayi, nka bumwe mu buryo bwifashishwa n'abahinzi, mu guteza imbere imiryango yabo, ndetse no kubonera ibihagije ingo zabo.

Igihingwa cy'ibirayi nka kimwe mu bihingwa byifashishwa n'abahinzi, mu guteza imbere imiryango yabo no kugaburira imiryango yabo.

Ubuhinzi bw'urutoki bwa gakondo, ubona ko bateye insina zidatanga umusaruro uhagije ngo babe basagurira amasoko.

Ibihingwa ngengabukungu byifashishwaga mu kuzanira abahinzi amafaranga no guteza imbere ingo zabo n'ibyaro baherereyemo.

Ahantu nyaburanga hatewe amashyamba， mu rwego rwo gukorerwamo ubukerarugendo，nka bumwe mu buryo bwinjiza amafaranga， abaturage bakiteza imbere.

Ubuhinzi bwa avoka nka bumwe mu buryo bwavumbuwe bwo guteza imbere abahinzi, babukora bagurisha umusaruro wa za voka uvuyemo.

Ibihingwa ngengabukungu byifashishwa n'abahinzi ,mu kugurisha umusaruro wabyo ,bakabonamo agafaranga gatubutse.

Ubuhinzi bw'imboga nka bumwe mu buryo bwifashishwa n'abahinzi mu kurwanya imirire mibi no guteza imbere imiryango yabo hagurishwa umusaruro ubuvuyemo.

Ubuhinzi buvanze n'ibiti bivangwa n'imyaka, nka bumwe mu buryo butanga umusaruro uhagije, ku bahinzi bagurisha imbaho.

Guhinga ibihingwa ngengabukungu ni bumwe mu buryo bwifashishwa n'abahinzi, kugira ngo biteze imbere, bagurishije umusaruro ubivamo.

Ibihingwa ngengabukungu, byifashishwaga mu kuzanira abaturage amafaranga mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakanoza imibereho yabo.

Ubuhinzi bw'ibiti bitandukanye bwifashishwa n'abahinzi, nka bumwe mu buhinzi bubyara amafaranga, hagurishijwe umusaruro ubuvamo.

Ubuhinzi bw'imboga z'amashu, nka bumwe mu buhinzi bwifashishwa n'abahinzi, mu kurwanya imirire mibi, no guteza imbere imiryango yabo.

Ubuhinzi bw'inyanya nka bumwe mu buhinzi buteza imbere abahinzi babwo, bagurisha umusaruro ubuvuyemo abaturage bakiteza imbere.

Imusaruro w'ubuhinzi bw'ibigori wishimiwe n'umuhinzi wabyo, bigaragara ko bwarumbutse ku buryo bufatika.

Ubuhinzi bw'ibigori nka kimwe mu bihingwa. Umusaruro wabyo wifashishwa n'abahinzi mu guhaza imiryango yabo, no guteza imbere imiryango yabo.

Umusaruro w'imyumbati nka bimwe mu bihingwa ngandurarugo , abahinzi bifashisha mu kurwanya inzara n'imirire mibi, mu ngo zabo.

Ubworozi bwa kijyambere, bwibanda ku matungo y'intama za kizungu, ubona ko zitanga umusaruro mu buryo butandukanye.

Ubuhinzi bw'urutoki gakondo, abahinzi bifashishaga benga inzoga abandi bakabwifashisha baribonamo imineke.

Ubuhinzi bw'ibijumba binyuranye mumabara, bwatanze umusaruro ku buryo bugaragarira uwari we wese ni ukuri birashimishije cyane.

Ubuhinzi bw'ibihingwa butandukanye, nka bumwe mu buryo abahinzi bifashisha mu guteza imbere imiryango yabo no kuyihaza mu biribwa.

Igihingwa k'ibirayi, ubona ko cyahinzwe neza, bigaragara ko bizatanga umusaruro, mbona ko uyu muhinzi arimo gushyiraho agafumbire, kugirango ngo bizatange umusaruro uhagije.

Avoka urubuto abantu baryaga bari kurya n'inyanya bifashishaga bari gutegura Salade cyangwa bashaka gukora isosi.

Imineke na avoka nka zimwe mu mbuto zigaragara ko zikundwa kuribwa n'abo mu majyaruguru, cyane cyane iyo barimo kuzirisha ibijumba.

Umusaruro w'ubuhinzi bw'ibirayi nka bumwe abahinzi bifashishaga mu mibereho yabo ya buri munsi bagurisha ibindi bakabirya mu miryango yabo.

Umusaruro w'imiteja, ugaragara ko uhunitswe mu buryo bwa kijambere cyangwa seb ubwo dukunda kwita bwa kizungu cyangwa uburyo bugezweho.

Imineke nka zimwe mu mbuto zihendutse kandi zigaragara ku isoko. Zifashishwa n'abaturage mu kunoza imirire yabo.

Ni itsinda ry'abahinzi rigize koperative igamije guteza imbere ubuhinzi mu gace baherereyemo, ubona ko ari agace k'icyaro n'igiturage.

Amateke y'amabungubungu abantu benshi badakunda kurya kubera gukomera kwago, iyo uyatetse agahora usanga yagagaye.

Igiti cy'umwembe, nka bimwe mu biti, bitangaga umusaruro w'imbuto ziribwa, bigafasha abahinzi, n'abacuruzi kwiteza imbere, no kurwanya imirire mibi.

Imbuto z'amapera zikungahaye kuri vitamin zitandukanye, ariko abantu bakaba badasobanukiwe akamaro k'amapera ku buzima bwabo.

Inteko y'abaturage iteranyije abagabo n'abagore, yajemo kumurikirwamo igihingwa cy'imyumbati, aho umuhinzi wayo yaje kumurika umusaruro wavuyemo.

Ubuhinzi bw'amapapayi, nka zimwe mu mbuto abahinzi bifashisha barwanya imirire mibi, ndetse bakagurisha umusaruro uba uvuyemo, bakabona amafaranga.

Abagabo n'abagore bigaragara ko barimo gutera imbuto zitandukanye mu butaka bwateguwe neza. Bamwe bahagaze, abandi bunamye, abandi basutamye.

Butike icururizwamo ibiribwa by'amoko atandukanye mu buryo bw'akajagari, harimo inyama, hakabamo intoryi, hakabamo inyanya, hakabamo ijerekani y'amavuta n'ibindi bitandukanye, ubona ko biteye akajagari n'umwanda.

Umusaruro w'imboga zitandukanye, ugaragara ko abahinzi bawifashisha bategura amafunguro gabo ga buri munsi.

Imboga za pavuro, ubona ko zifite umusaruro ugeze igihe cyo gusarurwa kandi mwiza cyane, bigaragarira amaso y'uwureba.

Umusaruro w'ubuhinzi bw'ibigori urimo gukusanyirizwa mu mifuka, kugira ngo ushyirwe ku isoko, aho abahinzi bazawugurishiriza.

Ubuhinzi bw'imyaka itandukanye ni bumwe mu buryo abahinzi bifashisha barimo guteza imbere imiryango yabo no kuyibonera ibiyitunga bihagije.

Igiti cy'ipera gitanga umusaruro mu buryo butandukanye, harimo imbuto abantu barya n'ibibabi byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti cy'ipera, nka bimwe mu biti bitanga umusaruro ku buryo butandukanye. Harimo imbuto, ndetse n'amababi yacyo akifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ubuhinzi bw'imboga za pavuro ubona ko zifite umusaruro ushimishije, umukozi ari mo kuzitaho yishimye.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibirayi, umaze gukusanyirizwa hamwe mu mifuka yabugenewe, kugira ngo woherezwe ku isoko ugurishwe.

Umusaruro w'ubuhinzi bw'amasaka ugaragara ko watunganyijwe bategereje kuwugurisha no kuwushyira ku isoko bakabona amafaranga.

Avoka nka rumwe mu mbuto, rufitiye abahinzi akamaro, kubera ko ruvamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amavuta, isabune, no kuribwa nk'imbuto.

Ubuhinzi bw'ibihwagari bugaragaza ko buzatanga umusaruro n'akanyamuneza ku bahinzi babikoragamo, ubona ko bishimye cyane pe !

Amaterasi y'indinganire yaciwe ku misozi ahakorerwaga ubuhinzi butandukanye, ubona ko harwanyije isuri ku buryo bugaragara.

Ubuhinzi bw'ibishimbo bigufi ubona ko bihinze ku buso bunini bigaragara ko bizatanga umusaruro ku babihinze.

Ubuhinzi bw'amatunda, nka bumwe mu buryo bwifashishwa n'abahinzi, mu guteza imbere imiryango yabo no kurwanya imirire mibi mu ngo zabo.

Ubuhinzi bwa gakondo bukorwa ku kajagari gakabije, ubona ko havangavanze ibihingwa harimo ibigori, imyumbati, n'ibishyimbo mu murima umwe.

Ubucuruzi bw'akajagari burimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya imyumbati, ibikoresho byo mu gikoni, harimo ibyombo n'inkweto zo kwambara.

Umusaruro w'ubuhinzi bw'urutoki ukusanyirijwe ku mbuga ahantu hamwe kugira ngo bawujyane ku masoko aho ugomba gucururizwa.

Abahinzi bari mu murima w'ibishimbo bishingirwa, bigaragara ko bizatanga umusaruro umeze neza ku buryo bigaragarira amaso yabo.

Ubuhinzi bugezweho bw'ibigori, ubona ko abahinzi bifashisha imashini za kijyambere mu kuhirira ibigori byabo, bihinze ku buso bunini.

Igiti cya avoka kigaragaza ko gitanga umusaruro ushimishije ku bahinzi ba za avoka, cyatuma umuntu ashishikarira guhinga avoka.

Inka ya kijyambere yo rorewe mu rwuri runini, ubona ko itanga umusaruro uhagije, ku mworozi wayo kandi ikitabwaho mu buryo bukwiriye.

Urubuto rw'ipapayi abahinzi bifashishaga barya, cyangwa se bakagurisha imbuto zarwo bakabona amafaranga.

Umusaruro w'ibinyampeke ubitswe ku buryo bwa kijyambere, uburyo butateza umwanda ahubwo bwongera ubuziranenge bw'umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibigori bigejeje igihe cyo gushyirwamo ifumbire ya Ire no kubagarirwa. ubona ko abahinzi bari mu gikorwa kimeze nk'icyo.

Ahatunganyirizwaga imbuto y'ibirayi mu gihe abahinzi bategerejeko iyo mbuto imera, ku buryo yaterwa mu mirima aho yateguriwe.

Ubuhinzi bw'imboga, nka bumwe mu buryo bwo kurwanya imirire mibi, bugafasha abahinzi mu guteza imbere imiryango yabo no kubaho neza.

Umusaruro w'ibisheke nka kimwe mu bihingwa byifashishwa mu gukorwamo isukari, nk'imwe abantu benshi bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'ibihaza buhingwa ku buso butoya, bugatanga umusaruro mwinshi ku bahinzi babwo, bakabukuramo amafaranga atubutse.

Abantu benshi badahinga ubunyobwa ntabwo baziko ubunyobwa bugira ibikonoshwa, cyangwa ngo bwerere mu butaka, bazabukure nk'uko bakura ibijumba.

Umusaruro w'ubunyobwa weze cyane ugaragara ko abahinzi bawo bazawugurisha, bakabona amafaranga menshi bakiteza imbere mu buzima bwabo.

Inyubako igezweho yagenewe guhunikwamo imyaka, mu buryo bwo kubungabunga umusaruro ushyizwemo, bitabangamiye abaturage.

Umusaruro w'ibishyimbo bigaragara ko byeze neza ku buryo n'umuhinzi abyishimiye, ubona ko abicuye mu rugo abyishimiye kandi bimunejeje.

Imbuto y'ubunyobwa yifashishwaga n'abahinzi mu buhinzi bw'ubunyobwabwa. Irimo gutunganywa kugira ngo izatange umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibihwagari, nka bumwe mu buhinzi budakunze kugaragara ahantu henshi cyane, ubona ko aha ngaha birimo kugaragaza ko bizatanga umusaruro uhagije.

Igihingwa cy'ibishyimbo bigufi gihinze ku buso bunini, ubona ko kigeze igihe cyo kurabya. Bigaragara ko kizatanga umusaruro uhagije ku bahinzi babyo.

Abahinzi barimo gusarura igihingwa cy'ubunyobwa, ubona ko ari umurima munini hazava umusaruro mwinshi, uzateza imbere abahinzi ba wo.

Umusaruro w' igihingwa cya soya ubona ko urimo gutegurwa kugira ngo uzashyirwe ku isoko, undi abahinzi bazawifashishe mu mibereho ya bo ya buri munsi.

Umusaruro w'ubunyobwa uri gukusanyirizwa mu mifuka, kugira ngo utunganwe neza, mbere yuko ujya ku isoko aho uzagurishirizwa.

Umurimo w’ubuhinzi ni umwe mu mirimo ifasha abahinzi mu kwiteza imbere, no guteza imbere imiryango yabo, no kubonera ibihagije imiryango yabo.

Umusaruro w'ikawa urimo gutunganywa n'abahinzi mbere yuko ujya ku isoko ngo ugurishwe babonemo amafaranga yo gutunga no gukemura ibibazo by'imiryango yabo.

Umusaruro wa soya ugaragara ko watunganijwe neza n'abahinzi bawo mbere yuko ushyirwa ku masoko ngo ugurishwe.

Ubuhinzi bw'ubwatsi bw'amatungo bukozwe ku buryo bwa kijambere, bukorerwa ahantu hatoya ku buryo budatwara ubutaka bunini.

Umusaruro w'igihingwa k'ingano urimo gushyirwa mu mifuka yabugenewe, kugira ngo uzabashe guhunikwa igihe kirekire utangiritse.

Uyu ni umusaruro w'ibigori ugaragazwa ndetse n'uburyo bwo guhunika bugaragazwa ku buryo bunogeye amaso, byerekana ko abahinzi bawukozeho.

Uburyo bwa kijyambere bwo kubika imbuto zifashishwa mu buhinzi, kugira ngo zitangirika mbere y'uko zigera ku baturage, n'aho zizakoreshwa.

Imbuto y'amajeri imaze gutunganywa, aho abahinzi bayifata bakayitera mu mirima yabo kugira ngo bazabone umusaruro ushimishije.

Ahatunganyirizwa hakanategurirwa umusaruro w'igihingwa cy'ubunyobwa, mu buryo bwa kijyambere mu nyubako yubatswe igezweho.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibigori, washyizwe mu bwanikiro bwa kijyambere kugira ngo wume, ku buryo bukwiriye mbere yuko ujyanwa ku isoko.

Igihingwa cy'umuceri, nka kimwe mu bihingwa umusaruro wabyo wifashishwa n'abahinzi, mu guteza imbere imiryango yabo no kwihaza mu biribwa.

Umusaruro w’ibishimbo umuhinzi acuye mu rugo iwe, ubona ko ushimishije. Yifashishije igare mu kuwutwara.

Umusaruro w'ibishyimbo watunganijwe. Ugashyirwa mu mifuka ,utegereje kujyanwa ku isoko. Ngo ugurishwe hazaboneke amafaranga yo kwifashisha mu yindi mirimo.

Igihingwa cy'amasaka nka kimwe mu bihingwa abahinzi bifashisha mu kugurisha umusaruro wabyo bakiteza imbere.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ikorerwamo ibijyanye n'ubworozi bw'ingurube, nka bumwe mu bworozi bwifashishwa mu guteza imbere aborozi babwo.

Igi nka kimwe mu biribwa bikomoka ku nyamaswa, gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, kandi byoroshye kubona, ababyeyi baryifashisha mu kuzahura imirire mibi y'abana ba bo.

Ubworozi bw'ingurube za kijyambere, zororewe ku buso bunini. Ubona ko butanga umusaruro uhagije ku mworozi w'izi ngurube.

Ubworozi bw'ingurube butanga umusaruro ku mworozi wahisemo gukora uwo mushinga, bigaragarira amaso ko umuteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo maremare, ubona ko izi nka zigaragara ko zitabwaho n'umworozi wazo, ziragiwe mu rwuri rutoshye.

Ahakorerwaga ubworozi bw’inkoko, harimo izitanga umusaruro w’inyama n’izitanga umusaruro w’amagi, ku buryo bubereye ijisho.

Inka yorowe mu buryo bwa kijyambere bigaragara ko n'aho iba hubakiwe ikiraro gikomeye , mu rwego rwo kuyibungabungira isuku n'umutekano.

Ubworozi bw'amatungo magufi hibanzwe ku ntama za kijyambere, zimwe mu zitanga umusaruro utandukanye harimo n'ubwoya bwazo.

Ifamu nini yororerwamo ingurube ku buryo bwa kijyambere, ubona ko zitaweho, zigatanga umusaruro, kuko na zo ziba zakorewe ibishoboka byose.

Ubwoko bw'inyoni bukurura ba mukerarugendo mu byanya ziba ziherereyemo, bashaka kureba uburyo amababa yazo n'iminwa yazo biteye.

Ubwoko bw'inyoni bufite amabara y'umweru n'umuhondo bugaragarira neza ba mukerarugendo bazisuye ,aho ziba ziri mu byanya byazo.

Ubwoko bw'inyoni za Kasuku zifite amabara meza, zikurura ba mukerarugendo, zibereye ijisho mu kuzireba no kuzisura, aho ziba ziri mu byanya byazo.

Imbwebwe, imbwa y'ishyamba imwe mu nyamaswa zigira amahane, zikunda guhiga udusimba dutoya zigatungwa n'inyama zatwo.

Agasimba gatangaje ko mu bwoko bw'inkima cyangwa se inguge, kagaragaza ubugenge mu buryo gakoresha umurizo n'amaguru yako gatondagira ibiti.

Agasimba gatangaje ko mu bwoko bw'inguge kiberaga mu mashyamba, gafite mu maso nk'aho umusaza. Ubona ko gashimishije mu kukitegereza.

Akanyamaswa k'ishyamba ko mu bwoko bw'inguge cyangwa se inkende, gateye ubwuzu kukareba mu migenzereze yako, n'ibikorwa byako, karimo gutondagira imigano.

Inyamaswa z'agasozi zimeze nk'ihene, zifite amahembe meza cyane, akurura ba mukerarugendo bishimiraga kuyareba.

Igihunyira ni ubwoko bw'inyoni buteye ubwoba. Kuko ifite mu maso hagaragara nk'aho injangwe cyangwa se inturu ubona ko giteye ubwoba ku bantu batakizi.

Agasimba ko mu muryango w'inguge gafite ibiganza nk'iby'abantu, n'ibirenge nk'iby'abantu, kifashisha mu gutondagira ibiti, gafite n'ubwoya busa n'umuhondo, mbese gateye ubwuzu mu kukareba.

Umusure ni ubwoko bw'inyoni butangaje kandi buteye amabengeza mu buryo bubanaga na bagenzi babo bihuje ubwoko.

Agasimba ko mu bwoko bw'inguge kaba mu mashyamba yo muri afurika, gafite mu maso nkah' umusaza, gateye ubwoba mu kukareba no kukitegereza.

Inyoni ziteye nka nyirabarazana zitungwa no kurya udusimba tuba ahari amazi, cyangwa se amafi. Ubona ko ashimishije mu kuyitegereza.

Inkura inyamaswa nini y'ishyamba iteye ubwoba, imwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo muri parike y'akagera.

Impyisi nka bumwe mu bwoko bw'inyamaswa ziba mu ishyamba z'inkazi, zigira amahane n'urusaku zikunda kwica inyamaswa zikazirya.

Ubwoko bw'inyoni bufite amabara meza akurura ba mukerarugendo ,ubona ko ari inyoni nziza yakwishimirwa n'uwo ari we wese kuyireba .

Imbeba n'agasimba kaba mu bihuru no mu mazu y'abantu, kakangiriza imyaka yiganjemo ibinyampeke, ndetse n'ibyo kurya byateguriwe abantu.

Akanyamaswa ko mu bwoko bw'inguge cyangwa se ibitera, gakururaga ba mukerarugendo kubera ibikorwa byako bigiye gusa nk'iby'abantu aho kiberaga mu ishyamba.